Urusengero ni kimwe mu bintu abanyarwanda bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru, aho tugenda tukigiramo byinshi mu mibanire n'abantu, gutura ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kubana neza n'abandi muri sosiyete cyangwa muri rubanda nyamwinshi.

Abantu bahora basenga bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi bakenera kujya mu materaniro bakiyuga n'imana ndetse bakagira ubusabane n'imana, ubu aha rero ni mu gihe barimo kumva ijambo ry'imana ndetsen'ibyo imana ibashakaho.

Iyi ni hotel ya Nyagatare ikoreshwa mu gukurura abakerarugendo ndetse no gutanga amacumbi, no kwakira inama ziba zikorerwa ahantu runaka.

Hoteli n'ubukerarugendo ndetse n'amamoteri bifasha abantu kugira ngo iyo bageze ahantu babashe kwisanzura ndetse no kwiyumvanamo, ubwo rero izi hoteli zigenda zifasha umuntu kugira ngo mu iterambere ndetse no gutanga akazi.

Icyo ni icyumba cya hoteli imwe runaka ishobora kuba iri muri Nyagatare cyangwa se iri ahandi hantu hatari muri Nyagatare.